Inzu bogosheramo， bagatunganya inzara， ndetse bagasokoza n'abagore， bakanadefiriza imisatsi，kugira ngo ibe myiza cyane，n’abantu bayishushanyijeho，bagaragaza ibyo bakora uko bimeze.

Isoko bacururizamo imyenda y'abagore n'iy'abagabo.